Umugabo wambaye ingofero n'ishati y'umuhondo, uri gukoresha imashini yishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga, iruhande rwe hari umugore wambaye ishati y'ubururu ndetse bari mu iduka rinini, ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, harimo n'urujya n'uruza rw'abantu.

Isoko ricururizwamo imyambaro y'abagabo, imipira imanitse ku rukuta ndetse n'indi imanitse ku byuma byabugenewe, amatara arikwaka, urukuta ruteye irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye, aho igiye imanitse, harimo imyenda yacawemo imirongo, hakaba hari n'indi myenda igiye ifite amagambo, ayanditseho imbere.

Imodoka zifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo rusange mu ibara ry'umweru n'umukara n'ibirahure, ziparitse ku mabuye anyurwaho n'imodoka, ndetse n'abantu, inyuma yazo hari inzu ibidukikije birimo ibiti, ndetse n'ibyatsi.

Imodoka nini mu ibara ry'umweru n'umukara, yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa birimo ibisukika, imbere yayo hahagaze abagabo babiri umwe wambaye ikote ry'umukara n'umupira n'ipantaro, n'undi wambaye ishati y'umweru n'ipantaro, bari guhererekanya icyapa cyanditseho ABG Akagera Motos.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo rusange mu ibara ry'umweru n'umukara, imbere yayo hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara n'undi wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, bari guhererekanya icyapa cyanditseho ABG Akagera umutozi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubuganiza amata, birimo utobido, imashini yifashishwa mu kuyayungurura, umugore ufashe kimwe muri byo uri gusuka amata, wambaye umupira w'ubururu, igitambaro cy'umweru mu mutwe, n'undi uri mu idirishya utegereje guhabwa iyo serivisi.

Abagabo babiri n'umukobwa umwe bicaye ku meza y'igiti, intebe za palasitike, ateretseho ibikombe birimo amata. Ahantu hasa ubururu, ndetse n'umweru, n'urugi barimo baranywa amata.

Inzu mu irangi ry'umuhondo, imiryango ifite ibara ry'umweru ikinguye, ibyapa byanditse amagambo, amwe mu magambo yanditse kuri iyo nzu weli kamu tu foregisi bilo, dukomere...

Imbonerahamwe iriho amabendera agiye atandukanye yerekana ivunjwa ry'ibihugu byagiye bivugwaho, hari ibendera ry'igihugu cya Leta zunze ubumwe za Amerika, hakaba hariho n'ibendera ry'ubwongereza.

Ibikoresho byifashishwa mu bubaji birimo imbaho, biri ahantu hari ubusitani ndetse n'ibidukikije, inzira inyurwamo n'amazi, umugabo wicaye, ibiti, amahema afite ibara ry'ubururu.

Insakazamashusho mu ibara ry'umukara, iri ku rukuta rusa umweru ndetse n'amatara mato ari kwaka, hasi yayo hari akabati gakozwe mu giti, ndetse n'intebe zisa umweru n'ibitambaro bikingira urumuri kwinjira mu nzu.

Ibikoresho by'ububaji birimo intebe ndetse n'ameza mu ibara ry'umukara, hateretseho ibikombe bifite irange ry'umweru, inyuma hari urukuta rugizwe n'ibirahure ndetse n'ibikoresho by'ubugeni birimo amafoto mu irange ry'umweru.

ibikoresho byu'ububaji birimo utubati intebe zo muri salo, biri mu nzu ifite ibara ry'umweru amatara ari kwaka. Bigerekeranya mu buryo butandukanye ndetse biteye mu buryo bunyuranyuranye.

Ibikoresho byo mu ruganiriro, birimo intebe zifite ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'umuhondo n'imeza biteretse iruhande rw'ahantu hari inzugi zifunguye, ziriho n'ibirahure, hasi harasa umweru.

Inzu y'ubucuruzi m'ibara ry'ubururu, umuhondo yanditseho amagambo rebanoni hoteli utuyira tunyurwa mo n'abanyamaguru ibidukikije birimo indabo ndetse ibara ry'umukara n'umweru.

Inzu mu ibara ry'umweru n'umukara hariho inzira y'abanyamaguru, yifashishwa mu kuzamuka uva ahantu hamwe ujya ahandi, hari abagabo batatu bari kunyura imbere bambaye imyenda itandukanye n'icyapa kigaragaza ikigo cy'ubwishingizi.

Inzu igizwe n'ibirahuri ndetse n'umuryango ufunguye, ahanyurwa hasi harasa umweru, imeza ikozwe mu giti isa umweru, intebe, hari ikirangantego cyanditse ijambo Radiyanti mu ibara ry'umweru umuzenguruko w'ubururu.

Inzu ndende mu ibara ry'umweru, igeretse inshuro enye, ifite ibirahure bizengurutse, iruhande rwayo, hari ubusitani burimo ibiti, amabuye, ubwatsi ndetse hariho n'imbaho.

Umugabo uri inyuma y'ikirahure, wambaye ishati n'ipantaro, ari kwandika ku rupapuro, inyuma y'ikirahure hakaba hari umugore urimo uraba amafaranga mu ntoki wambaye ikoti, umupira w'umweru ufite ikora rifite ibara ry'ubururu.

Umugore wambaye umupira w'amuboko maremare y'umweru ndetse n'ikanzu y'ubururu, ari gutunga intoki atwereka icyapa cyaditseho iyubake, tugana tuguhe agera kuri mirongo irindwi ku ijana y'agaciro k'inzu, yawe mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru.

iyi ni inzu nziza yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyijemo inshuro ebyiri igizwe n'amabara y'umuhondo amadirishya ni umukara n'inzugi nuko ifite imbuga nini ushobora gukiniramo wowe nabawe mwishimana.

Abagore bari hamwe bambaye ibitambaro mu mutwe, udupfukamunwa n'imyenda irimo n'ibitenge, bari mu gikorwa cyo gutoranya ibiribwa, inyuma yabo hari imifuka isa umweru n'ibara ry'ubururu.

Isoko ryubakishijwe ibyuma n'amabati, rikaba ririmo abaguzi n'abacuruza bagiye batandukanye, iryo soko rikaba ricuruza inyanya, intoryi, imiteja, karoti n'ibindi byinshi birimo n'ibitunguru, byifashishwa mu guteka mu rugo.

Abagabo n'abagore bari mu isoko ricururizwamo imyambaro ndetse n'inkweto, bahagaze ku nzira zifashishwa uzamuka uva hamwe ujya ahandi mu ibara ry'umutuku, ndetse n'utwuma tw'ubururu bari kuganira.

Isoko ry'ibiribwa ririmo inyanya, ibigori, ibitunguru ndetse n'abagore barimo barabicuruza bateze ibitambaro, bambaye n'ibitenge, biri mu bitebo hari n'ibidukikije birimo ibiti.

Isoku rikoreshwa n'abaje guhahana n'abagurisha ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibikapu by'abagore ibitenge, imyenda idozwe mu bitenge, imitako yo gutaka mu mazu n'ibindi bigiye bitandukanye, byose bijyanye na Kinyarwanda.

Isoko rigurisha ibintu bigiye bitandukanye riteretse hasi ku muhanda w'igitaka, ricuruza ibitunguru inyanya, amashu karoti n'ibindi bigiye bitandukanye byo guteka.

Isoko ry'ibiribwa birimo inyanya, ibitunguru, ibishyimbo, amashaza riteraniyemo abantu benshi barimo abagore abagabo, bahuriye hamwe baje guhaha risakajwe amabati.

Abagore bitandiye igitenge mu mutwe, bakaba bari mu isoko ririmo abagura n'abagurisha, isoko rikaba risa n'irigurisha ibintu byinshi byifashishwa mu guteka mu rugo, harimo ibitunguru, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umweru n'amapantaro ndetse n'inkweto bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kubyina, inyuma yabo hari ibyapa byamamaza mu ibara ry'umutuku umweru ndetse n'ibikarito biri ku ruhande rwabo.

Akazu kubatswe mu byuma, kaba ari gatoya kimukanwa, aho ako kazu kaba gafite irangi ry'ibara ry'umuhondo, kerekana yuko kaba gakorerwamo n'umuntu uhagarariye ikigo cya Emutiyene mu gace runaka.

Icyapa cy'ibara ry'umuhondo, umweru, kiriho amagambo yandikijwe mu ibara ry'umukara gitangwa n'ikigo cy'itumanaho cya MTN, gikoreshwa n'umucuruzi wagurishije ikintu runaka bakamwishyurira kuri iyo kode aba yarahawe n'icyo kigo cy'itumanaho.

Abagore babiri bari kuvugana ku by'ubucuruzi, umwe afite terefoni mu ntoki ari kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse n'undi ufashe icyapa gisa umuhondo wambaye imyenda y'umuhondo n'umukara, iruhande rwabo hari ibicuruzwa birimo ibinyobwa biri mu byuma byabugenewe kubikonjesha.

Ikarita nini y'ikigo cy'itumanaho cya MTN, iri mu ibara ry'umuhondo n'umweru amagambo ariyo yandikishijwe ibara ry'umukara, yerekana kode y'uwishyurwaho, uwaguzeho igicuruzwa runaka.

Inzu ntoya y'ubucuruzi mu ibara ry'umutuku, imbere yayo hari abantu batatu, harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, yanditseho Airtel mani egisitara, inyuma yayo hari indi ifite ibara ry'umweru, icyapa cy'ubururu ndetse n'umukara.

Inzu yo guturamo ifite amabati atukura, mu ibara ry'umweru ibirahure ndetse n'amadirishya asize ibara ry'ubururu uruzitiro mu ibara ry'umweru n'umukara n'utwuma turiho.

Icyumba cyo kuruhukiramo, gifite amabara y'umweru, ibitambaro bikingira urumuri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, idirishya rifunze, uburiri bushashe buriho ibiryamirwa by'umweru ndetse n'umukara...

Inzu mu ibara ry'umweru, icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe isa n'umweru wijimye, ku rukuta hariho insakazamashusho mu ibara ry'umukara, ndetse n'imitako n'ibindi bikoresho birimo ameza y'ikirahure.

Inzu igeretse rimwe mu ibara ry'umweru, ibirahuri by'umukara, hariho utwuma, imbere yayo hari inzira irimo amabuye abantu banyura bagenda, ubusitani ibyatsi ndetse n'indobo iteretse ku ruhande.

Inzu mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ifite ibirahure ndetse n'uruzitiro, imbere yayo haparitse ikinyabiziga cy'ipikipiki mu ibara ry'umutuku, giparitse mu muhanda w'igitaka.

Isoko rihuza abagura n'abagurisha, ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo amasakoshi y'abagore, abantu baje guhaha, bari kuvugana n'abacuruza ibyo baje guhaha.

Aho abantu bahahira ndetse bakanahaganirira, hari intebe z'ibiti ndetse n'imeza, umugore uhagaze ku kabati k'ibiti, wambaye imyenda y'umukara, amatara ari kwaka ndetse n'indabo.

Ibicuruzwa biri mu mashashi amabara atandukanye umuhondo, umweru n'icyatsi, bimanitse mu tubati tugerekeranye hariho udupapuro duto mu ibara ry'umweru, tugaragaza ibiciro by'ibyo bicuruzwa ndetse n'itara ricanye.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo inkweto z'abagore, iz'abagabo, harimo amashakoshi y'abagore, harimo imisentire y'abagabo cyangwa iy'abagore, aho rikoreshwamo n'abaje guhaha cyangwa n'abagurisha.

Isoko rihahirwa mo ibikoresho bitandukanye harimo imashini zifashishwa mu kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga abagabo bambaye ibikoresho by'ubwubatsi n'undi wambaye imyenda y'umukara bari kugenda ku makaro asa umweru.

Iduka ricuruzwamo ibikoresho bitandukanye, biri mu tubati dukozwe mu biti, turi mu mabara atandukanye, ndetse hari n'inzitiramubu, umugore wunamye ku meza ikozwe mu giti, ndetse n'amatara arimo araka.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu, karuvati y'ubururu irimo utudomo tw'umweru, wambaye ishati y'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki uhagaze, imbere y'abantu asa nk'aho ari kubwira imbwirwaruhame, inyuma ye hari intebe z'umukara.

Isoko rigurirwamo ibicuruzwa bitandukanye, hari kunyuramo abantu, abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro itandukanye, amakaro arasa umweru, ibicuruzwa biri mu tubati tugiye tugerekeranye, harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu, ufashe agacupa mu ntoki, ari kureba ibicuruzwa biri mu mangazini ahagazemo, akaba inyuma ye hari umugore wambaye umupira w'amaboko magufi w'umutuku, ipantaro y'umukara, imbere ye hari agashyirwamo ibirimo biraharwa k'umutu...

Umugore wambaye ikanzu ndende uri m'isoko ricururizwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bipanze mu tubati dufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru ibicuruzwa biri mu amakarito ndetse no mu mifuka arikubikura mu kagari kifashishwa mu kubitwara.

Abantu benshi bari mu iduka ricuruzwamo ibikoresho bitandukanye, umwe muri bo afite akagare kifashishwa mu gutwara ibicuruzwa, abandi bari inyuma ye barimo baramufotora barimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye ikoti, ishati na karuvati ufite terefone mu ntoki, ahagaze mu mangazine acuruza ibintu bitandukanye byo kurya, harimo nka mayoneze, kecapu n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibiribwa birimo imbuto ndetse n'imboga, inyanya, karoti, bipanze mu tubati, amakaro ni umweru ndetse no hejuru hariho imbaho z'ibiti n'umugore uri muri iryo soko.

Inzu y'ubucuruzi ya Simba, ikaba iteganye n'inzu y'ubucuruzi ya Cogebanque, ikaba imbere yayo hari inzira yagenewe gukoreshwa n'abanyamaguru, irimo irakoreshwa n'abantu bagiye batandukanye, imbere yayo hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, urimo abamotari batwaye ipikipiki.